Ubwishingizi bw'umuryango wawe warinda ejo hazaza bw'umuryango wawe buhendutse bwizewe ufite serivisi zihuse ubundi busobanuro wahamagara nimero ziri hano hasi .

Kwamamaza ubwishingizi bwa radiyanti, radiyanti yacu limitedi mayikoro fayinase kampani, shinganisha ibyawe uhinge utekane, ku bindi bisanoro wahamagara ku murongo utishyurwa cumi n'umunani icumi cyangwa zeru karindwi imanani biri mirongo itatu na rimwe , mirongo itandatu na karindwi, mirongo icyenda na karindwi.

Ubwishingizi bw'urugendo buhabwa buri umwe wese ushaka gushinganisha ingendo ziwe zijya mu mahanga muri radiyati ushobora guhamagara ku murongo utishyurwa makumyabiri, mirongo itanu, na telefone ze karindwi iminani ibiri mirongo itatu n' umunani, icumi, mirongo icyenda nagatatu.

Apurikasiyo ya momo igufasha kwakira amafaranga, kohereza amafaranga mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse no kubitsa amafaranga kuri mo kashi, kuyaguza ndetse no kuyabikura.

Ibijyanye no gukoresha amabanki, byaroroshye, ushobora kuhakoresha bijyanye n'ikoranabuhanga riteye imbere, ari ukubitsa, kubikura, kwishyura amazu. Guhemba ndetse no guhaha, ikindi kandi wakohereza umuntu uri hanze y'igihugu, cyangwa ugahereza umuntu uri hanze uri i Rwanda.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwitwa Livingi ini Kigali rwifashishwa rufasha abantu batuye iki muri Kigali kuba bagura ibikoresho ibiribwa ndetse n'imyambaro muri Kigali.

Hari umwana uri kunywa amata hari ikaragiro ry'amata, amata meza ateguwe neza ahashobora guhita anyobwa yujuje ubuziranenge, aboneka muri uyu muryango.

Aborozi mu ikaragiro ry'amata bagemuye amata yabo bari kuyabuganiza mu ikaragira ryabo, bategereje ibyasi byabo, hari abandi bagabo batatu bari inyuma bategereje gusukirwamo nabo bagatwara ibyansi byabo.

Apulikasiyo ya telefone yo kohereza no kwakira amafaranga binyuze muri kopedu ushobora guhamagara umurongo utishyurwa wa makumyabiri cumi na kabiri cyangwa ukabandikira ku mbuga zabo nkoranyambaga kopedu Rwanda.

Umurongo w'itumanaho wa emutiyeni Rwanda, uramenyesha abaturarwanda ko ushobora gukanda akanyenyeri ijana na cumi na gatanu, ugakurikiza amabwiriza maze ukanogerwa na serivisi uhabwa na momo apu.

Uburyo bworoshye bwo kuba wakwishyura ukoresheje banki, ukoresheje mudasobwa, telefoni zigendanwa ndetse bikaba byoroshya kohereza amafaranga, kuyakira ndetse no kuyabikuza, no kuyabitsa, bikaba byoroshya serivisi dusaba mu buzima bwa buri munsi.

Kwishyura hifashijwe ikoranabuhanga sipeni yo muri ayi endi emu banke, yarabyoroheje kuko ikeneye ko buri wese yagira amahirwe ku iterambere ry'iwe.

Raporo y'ubucuruzi yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri nabiri y'ikigo cyitwa santi purinta, kuri raporo hagaragaraho uko icyo kigo cyakoresheje amafaranga guhera ibihumbibiri na makumyabiri rimwe mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri, ibihumbibiri na makumyabiri na rimwe.

Agapapuro gatangwa n'aba ajenti bakorera banki nkuru, banki ya Kigali, yerekana y'uko amafaranga wabikije yabashije kuba yagera kuri konti wagombaga kuyabitsaho,

Urujya n'uruza rw'amamodoka ibikorwa remezo harimo amazu y'ubucuruzi forekisi biro, ibiro bivunja amafaranga y'abamanyamahanga, aho ibiciro bigeze bivunja ndetse n'umuntu wicaye ku ntebe.

Ibiro by'ivunja amafaranga y'amanyamahanga amafaranga amafoto y'amafaranga ari ku nzugi yerekana amafaranga avunjwam nimero ushobora guhamagaraho ushaka umuvunjayi ama webusayite wabasangaho n'aho wabasanga.

Inzu imanitseho ibyapa birangira abakiriya bashaka kuvunjisha amadolari, amayero, amapawundi ndetse n'andi mafaranga yose abashwa kuvunjishwa muri foregisi biro.

Urujya n'uruza rw'abantu mu cyumba kivunjirwamo amafaranga y'amanyamahanga ibyapa bigaragaza amafaranga abavunjisha baje ku kuvunjisha aho ageze , uko bari kuyavunja muri icyo gihe ndetse n'ikoranabuhanga ryiganje .

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Ubucuruzi bw'ububaji harimo ibitanda ndetse n'utubati twegera Ibitanda imifariso basa kuri ibyo bitanda ndetse n'amashuka baramburaho.

Inyubako yakirirwamo abakiliya, umutako umena amazi aho abakiliya bakirirwa, ameza ateguye ndetse n'ibiti bikikije iyo hoteli.

Icyumba kihuriramo abantu barenze batanu, cyateganijwe kiririmo ameza, intebe, amazi, televiziyo, ibyapa bya ekwiti bank ndetse n'akantu umuntu ahagararaho arimo avuga ijambo.

Bike Arena ni iyawe. Igitaramo cya ribifa konsati cyateguwe mu Rwanda cyari gihuriwemo umuhanzi debeni, kirisi izi, marina, umudije dije togisiki, bushari, dije higa shareni na kenisoro, batanze n'amahirwe yo kugira ngo ube watsindira itike ukurikije amabwiriza.

Uburyo bwiza bwo kwiguriza ukoresheje ikarita ya eko banki, ushobora guhaha, ushobora kwishyura, ushobora ndetse no kuguriza abandi, babifuriza ibiruhuko byiza.

Isoko aho bacuruza inkweto, imyenda, ndetse n’ibindi bintu bitandukanye, urujya n’uruza rw’abakiriya bashaka bimwe mu bicuruzwa biboneka muri ayo masoko. Amatara ahamurikira abatambuka, abacuruzi bahagaze aho bacururiza, ndetse na nimero ziranga aho umuntu buri umwe akorera.

Isoko ry'imboga ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'umusaruro w'abaturage, inyanya, intoryi, puwaro, imboga dodo, karoti, ibitunguru ndetse n'ibirungo bakoresha imboga, n'utudobo bapimiramo ibyo bahereza abakiliya babo.

Urujya n'uruza rw'abakiriya rugana isoko ry'ubuhinzi aba bacuruzi biteguye neza ku gucuruza ibitoki, ibikoro, ibishyimbo ndetse n'imineke.

Isoko ry'ubucuruzi rikorerwa hanze, hari abaguzi hari n'abaguzi, bahahuriye kugira ngo bahererekanye amafaranga, abandi babahe imyenda, hari amazu y'ubucuruzi ari inyuma yabo,...

Aho umurongo w'itumanaho emutiyene Rwanda utangira serivisi z'ibanze aho iyo umu ajenti wabo atagufashije ugana kugira babe bagufasha ni aho babaruriza simukadi za emutoyene Rwanda.

Mu isoko rya Nyabugogo aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi yifashi ku itama kuko yabuze abakiriya kandi yari akeneye amafaranga, ari gucuruza inanasi, amapapayi, amaronji, imyembe, ndetse n'ibindi.

Ikoranabuhanga rifasha, abarigana kwishyura nyuma yuko babonye serivisi bifuza bifashishije iyi application kugirango ubonemo amakuru usura urubuga rwabo wawawa. re pareta. komu. cyangwa se uguhahamagara nimero ziri gukurikira.

Kwamamaza ibicuruzwa ku mbuga nkoranyambaga byerekana mu bice bice aho membashipu y'abo igeze, gulobo maketi igeze ndetse na gulobo sitowa ahantu igeze, byose bigafasha umunyagihugu cyangwa ubibonye wese kumenya ahantu ibiciro byayo bigeze cyangwa ahantu bageze babitwara.

Icyumba gisashe neza imbere yaho harimo akabati kabikwamo ibintu bigiye bitandukanye; inyuma yaho hari akandi kabati gateretsemo televiziyo, gateretsemo n'utundi tuntu tw'imitako, imiryango ibiri

Amafaranga ya miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ashobora kugurira inzu muri Kigali iri ku muhanda wa Kabeza Kigali city iri ku ku muhanda iteye imbere kandi nziza cyane irangiye.

Gushyira ibicuruzwa mu makarito yabugenewe kugira ngo bibe byabashwa gucuruzwa ku masoko atandukanye, ndi kubona n'imashini zishyiraho ubuziranenge.

Iduka ricuruza ibinyobwa bisembuye; harimo za shampanye, imivinyo, ndetse umukiriya arimo arahaha, afite akagare agenda asunikiramo...

Iduka ricuruza amarinete, imikandara, ibihumura neza, amasakoshi y'abagore ndetse n'inkweto zo kwambara, imiringa ndetse n'utwitero tw'abagore.

Igura n'igurishwa ry'ibicuruzwa abaturarwanda bakeneye ku isoko bishyura hakoresheje ikoranabuhanga bishyuzwa bakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo byose bibe biciye mu mucyo kandi hatagize ugira ikibazo.

Ibyo kunywa bitandukanye ibishyushye ndetse n'ibikonje, hari ibiri mu mavide, hari ibiri mu dukarito tw'udupapuro, hari n'umuguzi, n'amafanta ya Bralirwa.

Igorofa rigeretse gatatu rikoreramo simba supamaketi ibyicaro abakiriya bicaramo, ibyapa bibuza guparika, ndetse n'urumuri rumurikira ababagana.